Ububiko bw'imiti bugiye butandukanye, ariyo twakwita farumasi, ni ahantu habitswe imiti myinshi yaba iri mu dukombe, cyangwa se iri ahantu mu dukarito aho bashobora kuyikura.

Posite de sante nk'igikorwaremezo cyegerejwe abaturage kugira bajye babona serivise zijyanye no kuvurwa vuba, kandi bitabagoye. Bityo amagara yabo akaba yabungabungwa mu buryo bworoshye.

Abanyabuzima ndetse n'abaganga baje kwita ku mikurire y'abana bato, ndetse n'ababyeyi bazanye abo bana kugira bitabweho n'abanyabuzima, bityo bagire ubuzima bwiza.

Amasaka ageze igihe cyo kuma, aho ashobora gukoreshwa mu bikorwa bi bitandukanye, nkaho ashobora kunyobwamo umusururu cyangwa se gusheshwa ifu ikoreshwa nk'igikoma.

Ubuhinzi bwa beteve, beterave ni ni kimwe mu gihingwa gikoreshwa mu muti, aho gishobora gukorwamo umutobe ukanyobwa nk'umuti, cyangwa se kigatekwa.

Ibimera byitwa inyunyusi ni bimwe mu bimera Abanyarwanda bakoreshaga, bivura indwara zigiye zitandukanye. Ndetse hari n'aho abana babikoresha nk'ibyo kurya, bakaba babirya.

Ikibonobono, ni muri bimwe abanyarwanda bakoreshaga bivura indwara zigiye zitandukanye, bityo ikibonobono ukaba ushobora kugikura, ahantu hari ishyamba cyangwa se hari ibindi bimera.

Igikakarubamba ni ikimera cyakoreshwaga hambere mu Rwanda. Aho bavuraga indwara zigiye zitandukanye, ndetse n'urubingo bakoresha bahirira ndetse bagaburira inka n'amatungo.